Imbuga bandikaho ibigori bidahunguye, bari kugira byume kugira bazabihungure, umugabo n'umugore bafatanyije kwanika, umugore yitwikiriye umutaka mwiza cyane.

Ibigori bimanitse ku biti kugira ngo byume, biri mu gisharagati birasaruye birapfunditse, kugira ngo izuba rijye ribigereho byume neza.